Abana b'incuke bakiri bato mu myaka itatu, aho baba bari kumwe mu irerero n'umuntu mukuru ubafasha gusobanukirwa ibintu byoroheje bitandukanye, abigisha kubara, gusoma, kuvuga, bikabafasha gukura mu bwenge, mu gihagararo, ndetse no mu mibanire n'abandi.

Abana b'incuke hagati y'imyaka yitatu n'itanu bari kumwe n'ababyeyi babo, ndetse n'ababafasha mu mikurire yabo, bakina, baseka, bishimye bibafasha gukura bagwiza ubwenge n'igihagararo mu mibereho yabo.

Abanyeshuri mu ishuri ry'inshuke hagati y'imyaka itanu n'itandatu, bicaye hamwe mu ishuri biga ibintu bitandukanye birimo amabara atandukanye abafasha gukangura ubwonko bwabo no kumenya gutandukanya ibintu.

Abana b'incuke hagati y'imyaka itanu n'itandatu bari kumwe n'abarezi babo ku ishuri babaganiriza babereka uko bakwiriye kwitwara hagati yabo ndetse no muri sosiyete, babigisha uko bazavamo abanyeshuri beza n'abantu beza, abayobozi beza b'ejo hazaza.

Abanyeshuri bari hamwe mu mashuri abanza, abahungu n'abakobwa bari kumwe mu matsinda, aho abarimu babaha imyitozo runaka bakabasaba kuyikorera hamwe kubera ko bibafasha gusobanurirana mu gihe batabyumvise, kandi bikazamura ubumenyi bafite mu masomo yabo.

Kimwe mu bipapuro binini bimanikwa mu mashuri y'abana bakiri bato, bibafasha kumenya gusoma, kwandika, kubara, hibandwa ku bintu byoroheje bizabafasha mu myigire yabo n'imikurire yabo, urugero kwiga gusoma indimi zitandukanye nk'igifaransa ndetse n'izindi.

Ibiro bikorerwamo akazi runaka gatandukanye, biba birimo ibintu byinshi bitandukanye, urugero amadokima, bitewe n'akazi kahakorerwa, intebe ubikoramo yicaraho, umuti wica udukoko two mu ntoki akoresha yisukura mu biganza bye, ibyo bikamufasha gukora akazi ke yumva atuje atekanye.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano bari hamwe ku ishuri mu mashuri yabo, aho bava mu miryango yabo bakerekeza kugira ngo bahakure ubumenyi ku bintu bitandukanye.

Ibyapa biri mu ishuri bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri biga muri iryo shuri. Hibandwa cyane cyane ku isomo rijyanye n'icyongereza, harebwa ku gihe cyangwa se amasaha. Hashushanyijeho ibishushanyo bigaragaza amasaha atandukanye, ndetse n'amazina yabyo cyangwa se uko bivugwa.

Icyapa gishushanyijeho ibintu bitandukanye bikoreshwa mu kwigisha abana batoya kugira ngo bafashwe kumenya gusoma, kwandika no kumenya ibintu runaka ibyo ari byo, urugero hano hashushanyijeho umupira, intebe, igiti, igitabo, ikaramu ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri batandukanye ku cyumba cy'ishuri gikikijwe n'ibiti byiza bibafasha guhumeka umwuka mwiza. Icyo cyumba gikorerwamo ibintu bitandukanye, kikaba gishobora kuba ari icyumba cy'abakobwa, gifasha abakobwa mu mibereho yabo ya buri munsi ku ishuri. Urugero: iyo bagize ibibazo by'uburwayi.

Ibitabo by'imibare byo mu mwaka wa gatatu w'amashuri bikoreshwa n'abanyeshuri mu kwiga, gusubiramo, no gukora imyitozo iba yatanzwe muri ibyo bitabo kubera ko ibafasha gutsinda amasomo yabo, bakaba babyifashisha mu bihe bitandukanye, urugero nko mu matsinda bakoreramo ndetse no mu gihe biyigisha bo ubwabo.

Abana bakiri bato hagati y'imyaka itandatu ni'icyenda, bari hamwe mu ishuri bateze amatwi abandi barangaye, bakurikiye umuntu uri kubaganiriza cyangwa se ufite ibyo ari kubabwira.

Ahantu hashyirwa ibyapa bitandukanye hibandwa ku bikenewe aho hantu runaka, urugero nk'ibyapa bigaragaza amatangazo, amategeko, amahame agenderwaho mu kuba uri aho hantu, bifasha gushyira ibintu kuri gahunda, mu bikorwa byose bikorerwa aho hantu.

Icyapa kiri ahantu runaka kigaragaza umushinga ufasha abantu batishoboye, cyane cyane hibandwa ku burezi budaheza ku bana bose, baba abafite ubumuga ndetse n'abazima, bose mfa kuba badafite ubushobozi bwo kwiga bafasha mu myigire yabo.

Amarembo yinjira mu kigo cy'amashuri ahantu runaka higa abanyeshuri bo mu ngeri zitandukanye mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Kuri ayo marembo hariho amabwiriza, amahame, indangagaciro bagenderaho ndetse gikikijwe n'ibiti byiza bibafasha kuyungurura umwuka bahumeka.

Amarembo y'ikigo runaka ariho indangagaciro, amahame, amategeko kigenderaho n'ibikiranga gisa neza ku buryo buri wese uhageze uje kuhiga cyangwa se uhazanye uje guhiga ahita abona ko ari ikigo cyiza, gikikijwe n'ibiti bifite amashami abafasha kuyungurura umwuka bahumeka.

Ikipe y'abari mu kigo cy'amashuri runaka, bari hamwe nk'itsinda imbere y'Abayobozi babo, babaha amabwiriza n'inama zabafasha gukorera hamwe nk'ikipe ndetse no kugera ku ntsinzi bifuza.

Ibibuga bya basiketi mu kigo cy'amashuri bikoreshwa n'abanyeshuri ndetse n'abarezi, bifasha mu kwidagadura ku gihe barimo kuruhuka ndetse no mu marushanwa atandukanye bibafasha kwitegura neza, bakazagera ku ntsinzi.

Ubwinshi bw'abantu baje ahabera imyidagaduro itandukanye, urugero nk'imikino y'umupira w'amaguru ndetse n'isiganwa ry'amaguru. Hakaba habera n'ibirori bitandukanye, aho buri wese mu bahaje yishima akisanzura, ndetse agasabana n'abandi.

Abanyeshuri mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, harimo abakobwa n'abahungu mu kirori runaka, baje kugira ngo bahabwe amategeko, amabwiriza n'inama zabafasha mu myigire yabo, bashobore kuba baratsinze ibintu bitandukanye bagahabwa ibihembo.

Abanyeshuri batandukanye mu kigo runaka, bari mu birori byo gusoza amashuri y'umwaka runaka. Aho bishimye banezerewe bumva bameze neza, bagahitamo kubyina n'imbyino gakondo bigishwa na bagenzi babo, nk'imbyino zibafasha kwibuka ndetse no gukomeza kuzirikana indangagaciro zibaranga.

Abasore bagize ikipe imwe baganira ku cyo bakora kugira ngo bagere ku ntsinzi yabo mu buryo bworoshye nk'uko babyimeje, ndetse ni urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bicaye hamwe baje kubashyigikira.

Imbyino gakondo zibyinwa mu birori bitandukanye bigera mu bigo by'amashuri bagamije kwishima, kunezerwa, ndetse binafasha abanyeshuri bakiri bato gukomeza kuzirikana umuco gakondo no kwibuka uko ababyeyi babo babayeho mu bihe bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri gisa neza, kiri ahantu heza mu buryo bugaragara, gifite ibyapa bigaragaza ibiranga icyo kigo, indangagaciro, amahame, amategeko kigenderaho, aho buri munyeshuri wese ucyigamo, ukireba, uyasoma, yishimira kucyigamo kandi akaba azi ibyo agomba gukora bimufasha kugera ku intsinzi.

Abanyeshuri mu kigo cy'amashuri bateranira hamwe mu nama n'abayobozi babo ndetse n'abarezi, baganira ku bintu bitandukanye. Urugero: nk'imyigire, imyigishirize, imyitwarire n'indangagaciro bagenderaho, aho abanyeshuri babaza bakanabazwa ibibazo bitandukanye, ndetse n'abayobozi na bo bagira ibyo babazwa, bakagira n'ibyo baganiriza abanyeshuri bafasha mu mitsindire yabo.

Ishuri ry'ubumenyi ngiro, hibandwa cyane ku masomo ashobora gufasha abana, kuzagira ibyo bigezaho mu gihe kizaza, urugero kwigisha ibijyanye n'amashanyarazi, ububaji, ubwubatsi, n'ibindi. Aho abanyeshuri bahitamo amasomo y'ubumenyi ngiro biga, akazabafasha kwiteza imbere mu gihe kiza.

Urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda biganjemo urubyiruko, rujya cyangwa ruva ku bigo bigaho bategereje imodoka zibatwara ngo zibajyane aho bashaka kwerekeza.

Abanyeshuri mu mashuri yisumbuye, bari kumwe na mwarimu wabo aho mwarimu wabo abafasha kwiga gusobanukirwa ibintu bitandukanye, baganira, bishima, bakina mu buryo bwo kwisanzura ku barezi babo bigatuma babatinyuka bakababaza ibyo batumva, bibafasha gusobanukirwa mu buryo bwiza.

Ikibuga cy'umupira kiri ahantu heza hakikijwe n'ibiti byinshi, bigaragara nk'ishyamba, ibyo biti hakaba harimo intusi, ndetse hegeranye n'umuhanda abantu banyuramo baje kuri icyo kibuga cyangwa se berekeza ahandi hantu hatandukanye.

Icyapa kiri ku muhanda ahantu mu busitani bwiza bukubiyemo umucaca ndetse n'ibiti iruhande rwacyo, cyerekana ahantu hari ishami rya kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye.

Icyapa kiri ku muhanda kigaragaza ko hafi aho hari ishuri runaka, cyerekana ibyo iryo shuri ryigisha n'igihe gisigaye kugira ngo ube wagera kuri iryo shuri, mu gihe wumva ushaka kujyayo uturutse ahagana kuri uwo muhanda.

Inyubako nziza iri ahantu mu gace runaka, ikorerwamo imirimo itandukanye, hibandwa cyane ku burezi, aho umunyeshuri usoje ayisumbuye aza akakomereza amasomo ye, ashaka kongera ubumenyi afite.

Intebe, ameza biri hamwe mu cyumba kimwe giteguwe neza, gifite ikibaho imbere, bikoreshwa mu nama zitandukanye cyangwa se abanyeshuri bari kuhigira.

Amarido ari mu nzu runaka afasha umuntu uyirimo kumva afite umutekano anatuje, arinda buri muntu wese uri hanze y'iyo nzu kuba yareba mo imbere ngo abone ibikorwa biri gukorerwamo. Ndetse afasha n'ahantu kuba heza.